Abantu benshi bambaye amakarita y'akazi baragaragara bari kumwe n'umuzungu kandi bo ari abirabura, aba usubije amaso inyuma ukitegereza ubona ari abanyabuzima bari mu mahugurwa yo kuba bafasha abarwayi bari hafi.

Umwana yafunguye robine ategaho ibiganza ari kunywa amazi ,kuri ibyo biganza bye hari amazi ari kun uyura mu ntoki akamanuka agwa mu ndobo y'igitaka iteretse munsi, iruhande rwa rubinini ifunguye ari hen rubin ifunze.

Umuganga abamugannye ni abazungu n'abirabura, abazungu bambaye amakoti, mu gihe we yambaye itaburiya ijya gusa n'ubururu, abamuri iruhande bambaye amakoti y'umweru na karuvati mu ntoki, afite ibinini ari kugenda aha buri umwe.

Umubyeyi witeze igitambaro umutwe gisa n'iribaya yambaye acigatiye umwana ukiri muto, imbere ye hari umuganga wambaye ga mu ntoki n'itaburiya y'umweru afite igipimo mu ijosi kigenda kikagera mu ntoki ari kugipimisha umwana.

Abana b'abanyeshuri bambaye iniforume bavuye ku ishuri, buri umwe ari kuri robine afashe ikiganza ashyiraho anywa mu mazi adasukuye, ibi biri mu bishobora gutera uburwayi.

Umwana w'umukobwa wambaye ikanzu y'ubururu ifite amaboko magufi, ari gukaraba kuri robine ifunguye, amazi akameneka ari menshi. Hasi ye hari ibase ariko na yo yarapfumutse. Bityo rero.

Umubyeyi akoresheje isabune n'amazi meza, arakarabya umwana we intoki ngo amugaburire amafunguro, yambaye agapfukamunwa n'umupira w'ubururu, umwana yambaye ishati ya kaki, aragaragara nk'uvuye ku ishuri.

Imbaga y'abantu yicaye hamwe ikoze igisa n'uruziga umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'inkweto z'umweru, agapira k'umukara n'ipantaro y'ikoboyi ari kubaha ubuhamya ku bijyanye n'ubuzima.

Umugore yagiye kuvoma mu mubande, si amazi meza kuko yakoresheje umuvovo kugira ngo abashe kuyageraho, abonye utari gushyira amazi mu ndobo nk'uko abyifuza, atangira gufata indobo, adaha nk'udaha mu kizenga.

Abantu bane bari kwa muganga, umwe muri bo ni umwana, ababyeyi babiri umwe afite uruhinja, muganga ubari iruhande agiye kumukingira, umubyeyi afite igihunga ariko arorosora umwana ngo bamutere urushinge.

Kwa muganga, umugabo yagiye kwisuzumisha SIDA. Umuganga uri kumusuzuma afite telefone mu ntoki, afite n'ikayi ari kwandikamo. Hejuru yabo hari icyapa kigira kiti; SIDA iracyahari, duhaguruke tuyirwanye kuko irica.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'amashuri abanza. Buri umwe afite indobo ari kuvoma kuri robine ye. Ni indobo eshatu ariko hirya gato, hari akajerikani gato nako gategereje ko indobo zuzura bakakavoma.

Abana bane bagiye kuvoma bahasanga umuntu mukuru, abafasha gufungura robine, ni rubine yubatswe mu buryo bwa kijyambere ku buryo aba bana bagaragara nk'abari munsi y'imyaka itanu nta n'umwe washobora kuyifungura, buri umwe afite akajerekani kandi yiteguye gutahana amazi meza.

Abana bane bambaye impuzankano y'amashuri abanza, bavuye kwiga. Babiri muri bo bambaye inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru. Undi yambaye amasogisi y'umutuku, n'inkweto z'umukara ndetse banafite umusatsi udefirije.

Kwa muganga ahakirirwa abarwayi, hari abagore bafite abana, babacigatiye mu ntoki, umugore ubanza yitereza igitambaro mu mutwe, yambaye ijipo isa n'ivu, umukurikiye yambaye inkweto z'ubururu, abandi bose bakurikiyeho bambaye amajipo y'imituku.

Abana batanu bari kumwe n'umubyeyi, iruhande rwabo hari ikigega cy'amazi, buri mwana afite igikombe cy'icyatsi ari kunywa amazi yavomye, uyu mubyeyi icyo abafasha ni ukuyavoma batayanduza.

Kwa muganga hari abagore benshi cyane. Inyuma yabo hari umugabo wambaye imyenda isa nk'iy'abagororwa. Umuganga uhari ahagaze imbere y'umunzani upima abana, arasa n'ubabwira ati: "Muzane abo bana mbapime".

Umwana afite igikosi cy'icyuma, kiri mu ibara rya kaki. Yambaye agapira k'umutuku, afite amaboko kuri robine, yazifunguriye rimwe, ariko ari kuvoma hamwe, ahandi amazi ari kumeneka kandi ubona ko ntacyo bimubwiye.

Umusaza yagiye kuvoma, agezeyo asanga robine zombi uko ari ebyiri zirafunze. Yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, yahise yicara ku ijerekani yagiye kuvomeramo, irahombana, arahaguruka arayihombanura.

Umukecuru wagiye kuvoma kuri rubine yajyanye ijerekani ari kuvoma, hino iruhande rwe hari undi mugezi uteretse indi jerekani, hagati y'ijerekan ari kuvoma n'iyo jirekani yindi harimo ijerekani ngari y'umuhondo.

Umubyeyi wambaye umupira w'icyatsi wanditseho urugerero ufite ikirangantego cy'u Rwanda ari gufasha abavoma kuvoma, ni amazi meza kuri robine ya kijyambere bubakiwe.

Umwana wambaye iniforume ari gukaraba mu ibasi y'umuhondo irimo amazi, amazi ari gukaraba ni amazi adatemba kuburyo ashobora guteza ibyago, aya mazi ntabwo yizeye ko ashobora gukora isuka ihagije ku buryo uyu mwana yajya gufungura.

Umwana wambaye umupira w'icyatsi, ikabutura y'amaboko magufi, yafunguye robine, ari gukaraba. Ruguru ya rubine hateretse indobo y'ubururu ipfundikiyemo amazi, inyuma ye hari ubwatsi butoshye gusa hari n'igice kirimo ubwatsi butukura.

Abana babiri bagiye kuvoma aho begerejwe ivuriro mu mudugudu, umwana w'umukobwa wishimye, ashyize akajerekani ku mugezi afashe kuri robine n'akaboko atezeho ngo amazi aze, mu gihe umuhungu usa n'aho ari musaza we yagiye kumufungurira.

Umwana na nyina bagiye kuvoma mu gishanga mu bidendezi, umubyeyi yajyanye ijerekani nini n'akajerekani gato, umwana amuri iruhande, hari impungenge ko ayo mazi ashobora gutera uburwayi.

Abamama babiri bahuriye mu ndobo irimo amazi, buri umwe ari gukaraba amazi asubira mu ndobo, undi na we agakaraba amazi asubiramo, iruhande rwabo hariho icyapa kinini cyane, kiriho ijambo ry'umuryango Unicefu.

Abagabo babiri iruhande rwabo hicaye umugabo w'umusilamu ufite akagofero mu mutwe, yambaye agapira k'umutuku karimo amabara y'umweru ategereje ko kwa muganga bagira icyo bamufasha bitewe n'uko yagiye agiye kwiusuzumisha ubuzima bwo mu mutwe.

Imbaga nyamwinshi iteraniye hamwe, harimo abaganga babiri bari gusobanurira abitabiriye igikorwa cyiswe uburyo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu, ngo barebe ko hashobora guhashywa iryo twita ritateganyijwe.

Umugore yagiye kwa muganga, agezeyo asanga bagomba kumufata amaraso, muganga afite serenge ari kujomba ku rutugu, akuramo amaraso ajyanwa muri raboratwari kugira ngo barebe ikibazo afite.

Umugore yagiye kwipimisha inda, imbere ye hari abaganga babiri, umuganga umwe yambaye ikote risanzwe ry'umukara, undi muganga hirya ye yambaye itaburiya y'akazi, icyo bose bahurizaho ni uko bambaye agapfukamunwa yewe n'umurwayi.

Umugore uri gufura afite amabase abiri, ibasi imwe ayigeretse ku yindi, ijerekani afite hirya ye gato hari umwana uri kuyivoma, inzu iragaragara ko ishaje , yubakishije amabati kandi isakaje andi.

Abagabo bane bicaye imbere y'ameza y'ubururu, hakurya yabo hari abandi bagabo n'abagore bambaye amakote y'imikara, buri umwe afite umusatsi, basa n'abaje kumva inama ndetse bakanatanga ibitekerezo.

Muganga ari gutanga imiti ku barwayi, abamuri imbere ni abazungu babiri n'umwirabura umwe, umuzungu umwe yambaye ikoti ry'umukara n'amarinete y'umweru, umusatsi urimo imvi nkeya, ahandi nta bwanwa ufite.

Abana bane bagiye kuvoma, umwe ateretse ijerekani kuri robini ararangara amazi atangira kumeneka, batatu basigaye batangira kumuzomera ufite inkoni hafi yo kuyimukubita amubaza ati ese urangariye iki?

Abana bari mu kigero cy'imyaka hagati y'umunani n'irindwi, bambaye imipira yanditseho UNICEFU, ni imipira bahawe ubwo uyu muryango wari mu bukangurambaga n'ibikorwa byo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana.

Umugabo wambaye amarinete ari mu birango bigaragaza ipimwa rya Virusi itera Sida nuko ishobora kwirindwa. Hasi ye mu mabara y'ubururu haragaragara udukingirizo dushobora kwifashishwa mu gihe ugiye gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo mutashakanye.

Abaganga bari mu byumba by'abarwayi, bagiye kuvura indwara isa n'aho ari korona virusi, bipfutse umubiri wose, amaso, umutwe, ndetse n'igihimba, bafite amakarito mu ntoki arimo imiti, iruhande rw'ayo ma karito, hari utugufuri dukoze mu biti.

Umugore uri kujya kwa muganga yambaye agapfukamunwa, aniteze igitambaro mu mutwe, agapfukamunwa, agakapfukamunwa kanapfutse amazuru, hasi ye hari ibintu bitandukanye birimo amakaro y'umweruru, we ubwe ari kugenda kandagiraho yibaza ati '' ese ibi bintu no mu cyaro bishobora kuhagera''.

Abana bane, babiri muri bo ni impanga, abandi babiri barakurikirana, umwe arusha undi nk'umwaka umwe. Se ubabyara yambaye bote, ipantaro y'umukara, agapira k'icyatsi cyijimye, afite agakombe k'amazi, ari kubasukira ngo bakarabe.

Abagabo bane bagiye kuvoma, babiri muri bo bambaye amasengeri, umwe uri hagati yambaye ishati y'ubururu, ufite inkoni kandi wambaye bote ari ku ruhande rw'ibumoso, abacungira umutekano w'ibisimba bishobora guturuka mu ishyamba bikabarya.

Abana bari ku mugezi watangiye kwangirika, aho amazi ari guca mu ruhombo atinyuze mu mwanya yakanyuzemo, munsi yaho hari ibase amazi bari gukaraba ari kujyamo, bari kumara kuyakaraba agahita asa n'ibara ry'ikaki kubera umwanda uyariho ajya mu ibase y'umutuku.

Abantu umunani barimo abagore babiri, umugabo umwe w'umuzungu abandi bagabo b'abirabura bicaye ku meza ariho udutasi, buri gatasi karimo icyayi, hirya yabo gato hari agasanduku ka interineti.

Umugore uri kwa muganga yambaye agapfukamunwa, ategereje ko bamubwira ngo ave ku munzani ahagazeho ari kwipimisha ibiro, hanyuma bagatangira kumukorera ibizami by'ubuzima, mu mutwe yambaye igitambaro cy'umuhondo kirimo amabara y'ubururu.

Abaganga batatu bari gusuzuma abarwayi, biragaragara ko bari gukoresha agashinge bajomba ku urutoki, bagafata amaraso bakayashyira mu byuma byabugenewe. Umuganga umwe ni umugabo abandi baganga babiri ni abagore, buri umwe yambaye ikarita y'akazi mu ijosi.

Ubuzima bwo mu mutwe, iyo butitaweho neza bushobora gutera ibibazo bibuturukaho. Uyu mugabo arisetsa cyane agaherayo wese; ibi biragaragara ko hari ikibazo afite.

Ku munsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika abana bahurijwe hamwe babambika imyenda y'umuhondo iriho ibirango byawo, mu mutwe bafitemo udufurari duto tw'umweru ariko turiho ibyapa by'Afurika n'amazina y'umwana w'umunyafurika.

Umugabo wihebye yegamye ku rukuta rwubakishije amabuye, inyuma rukaba ruteye umucanga, iruhande rwe hari indabo zitarakura azihagazemo ntacyo yitayeho, yambaye ishati y'umuhondo ifite amaboko magufi.

Abantu babiri umugabo n'umugore bambaye amakoti, umugore yambaye ikoti ry'ubururu, umugabo yambaye ikoti ry'umukara, umugabo yambaye agapfukamunwa. Umugore ufite mikoro ariko aganiriza abantu ku bijyanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima.

Abagore batatu bambaye imyenda itandukanye, umwe uri hagati afite igitenge cy'umukara yiteze, afite n'icyo akenyeye mu mutwe. Hirya ye gato hari umugabo ufite mikoro ari kugenda ababwira ati twite ku buzima bwo mu mutwe.

Umusaza wihebye yicaye hasi, yambaye ikabutura yacitse. Umurebye iruhande rwe hari amafoto agiye atandukanye, umupira yambaye urasa n'umutuku ufite ibipesu bibiri ariko kimwe ntagihari, witegereje neza amaboko ye araziritse asa n'uri mu mapingu.

Abanyeshuri basoje urugerero bose bambaye imipira y'ubururu iriho ikirangantego cy'igihugu, bari kumwe n'umuzungu ndetse n'umunyarwanda basa naho aribo babayoboye, umugabo ubayoboye yambaye karuvati y'umweru naho uwo muzungu w'umugore yambaye ikote ryijya gusa na kaki.

Abagore babiri bari kwa muganga. Bagiye bambaye udupfukamunwa, umwe acigatiye uruhinja, abaganga na bo ni babiri, bambaye udupfukamunwa n'amataburiya y'akazi, bari gufata ibizami by'umwana ngo barebe icyo arwaye.

Ubuzima bwo mu mutwe iyo butitaweho neza bushobora kuba bwateza ikibazo cy'indwara yo mu mutwe. Abana barimo barasika mu kavuyo, aho umwe yifasha mu maboko, undi akaba yifashe mu mutwe, undi akaba yifashe ku menyo undi arasamye cyane biteye impungenge.

Umusaza usa n'ufite ibibazo, yipfutse mu maso, afite umusatsi w'umukara, yambaye agapira k'umukara, ibiganza byombi bihishe mu maso, ndetse n'ugutwi ku ruhande rumwe, haragaragara ugutwi ku iburyo konyine.

Umugore wambaye ikoti ry'umukara, amaboko ni magufi, afite umusatsi ukora mu mugongo, iruhande rwe hari amagambo y'icyongereza ariko uyashyize mu kinyarwanda aragira ati: abafatanyabikorwa mu bijyanye n'ubuzima.

Abagore bari mu ihuriro ryabo, umwe yambaye amarinete, undi ntayo yambaye. Inyuma yabo hari abandi bagabo basa naho bayoboye, bambaye amakarita y'akazi agaragaza ko na bo bifatanyije n'abagore.

Ubuzima bwo mu mutwe iyo butitaweho neza bushobora guteza ibibazo nyirabwo, iki ni ikibazo gihangayikishije abantu benshi, kubera ko bakigendana batazi ko bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, bagatekereza ko nta kibazo bashobora kuba bagira.

Mu Rwanda no ku isi muri rusange hagaragara ipfu z'abantu benshi biyahura bitewe n'ibibazo bitandukanye. Hari ababikora kubera urushako, hari ababikora kubera urubyaro, hari n'ababiterwa nuko baba birukanywe ku mirimo bakoraga.

Umugabo aragenda mu muhanda wa kaburimbo, yambaye ibirenge, yambaye ipantaro yatanyutse ku kaguru kamwe yahaziritse umushumi w'umutuku, aragenda arya mu nzira, umusatsi ntuheruka gukarabywa, ikote yambaye ryaratanyutse ryose, ibiganza bye biriho igisa n'imyate.

Umukecuru wo mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu n'itanu, yambaye urunigi, yambaye iribaya y'amaboko magufi, iba irimo amabara y'umutuku, icyatsi, umweru ndetse n'umukara. Arasa n'uri guseka. Inyuma ye hari akabati gateretsemo imiti n'ibindi bintu byinshi.

Umugabo wihebye yicaye hasi ku ishuka, arangije azirika amaguru yombi akoresheje iminyururu, akaboko agashyira ku gahanga, akandi kaboko agashyira ku ijipo yambaye, inyuma ye hari urukuta rusa n'ushobora kumugwaho mu gihe yaba atahahagurutse.

Umusaza usa n'uwataye ubwenge, mu ntoki afitemo igisa n'ibiyobyabwenge yanyoye, yicaye hasi mu itaka, hirya ye hari umugabo uri ku igare wambaye ishati y'umweru, aramwitegereza yumiwe cyane.

Imbaga y'abantu yicaye iteraniye aho abayobozi bari, abayobozi bari kumwe n'abaganga baturutse ku bitaro ngo baze kubasobanurira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, hanyuma uwaba afite ikibazo ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe atangira guhabwa ubufasha.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu bwijimye, ifite ibipesi bitatu mu gatuza, munsi y'ibyo bipesi hakaba harimo akarongo gasa nk'ako umukororombya, arahagaze. Ariko umurebye ubona yiyumvira nk'ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe.

Umugore munini cyane ufite imisatsi y'umukara wambaye amaherena, yambaye n'amarinete mu maso ye, harimo ibyuma yambaye bimufasha guhumeka bitewe n'uko ubuzima bwe butameze neza.

Umugabo yicaye mu mucanga, yambaye ubusa, ku kaguru ke haziritse umugozi ukoze mu birere. Hirya ye gato hari urukuta rw'urutare, ni karemano. Nta muntu wigeze arushyiraho! Ni hagati mu mabanga y'umusozi.

Icyumba kimwe mu byo kwa muganga, harimo televiziyo, harimo intebe ifite amapine, harimo amazi harimo n'umugezi, ibi byose ni ibifasha abarwayi kandi bikanaborohereza kwivuza mu gihe batabasha kwigenza.

Umurwayi yagiye kwa muganga kwikuza iryinyo, barikuyemo barikura nabi bakoresheje ibyuma bitabugenewe, hasigayemo umwenge ungana n'urwina, urebye neza uri mu iforume y'umwobo.

Umugore wambaye amaherena yagiye kwa muganga kwikuza amenyo, muganga afite akuma kameze nk'umukasi ari gukoza mu kanwa basuzuma areba niba iryinyo ari kujegeze bishobora kuvamo ntirigire ibindi bibazo biteza.

Umugore w'inzobe yambaye isengeri y'umweru aniteze igitambaro mu mutwe cy'umweru, agasatsi kagaragara ni ako ku misuso, ingohe ze zirasa n'umukara, igitangaje kuruta ibindi ni amenyo afite, arasa n'umweru bitewe n'umuti uyoza akoresha.

Umwana w'inzobe ukiri muto arasamye amenyo yose aragaragara n'ururimi ruragaragara, gusa si we wiyamishije kuko hari ibiganza bibiri byambaye ga bisa n'iby'abaganga biri kumusuzuma mu menyo.

Umukobwa w'inzobe ufite umusatsi w'umukara n'amatwi manini cyane ari guseka, ariko witegereje neza ubona atari ibitwenge bisanzwe kuko heno ye hari umuntu ufite iryinyo ku gati ugiye kurimushyiramo.

Umwana na nyina bombi bafite uburoso buriho umuti w'amenyo, icyo bahurizaho ni uko bambaye masengeri y'imyeru kandi bakaba afite imisatsi miremire, barimo bariborosa mu gitondo, aho buri umwe bagiye kujya mu bye, mubyeyi agiye kujya mu kazi, umwana ajya ku ishuri.

Umugabo wambaye agapira k'umweru, afite ubwanwa bwambukiranya imisaya yombi, bugahura n'umusatsi. Amatwi ye aragaragara nkaho ari manini. Gusa bitewe n'uko yita ku menyo ye, ni urwererane kandi nta n'iryahongotse muri yo.

Iki ni icyumba kivurirwamo abafite indwara z'amenyo, bashobora gukuramo iryaboze bagushyiriramo irindi cyangwa se iryabuze gahoro bakarivura mu mizi ugakomeza ukarigumana, harimo intebe zo kwicaraho ku barwayi ndetse n'abaganga.

Umugabo w'amenyo y'urwererane aragaragara nk'uwambaye itaburiye y'ikiganga, ikindi imbere ye hari ibikoresho bisa n'ibikoreshwa mu gukura amenyo yangiritse, hakaba n'ibindi bikoreshwa mu gusana ayangiritse ariko atarajegera.

Umugore n'umugabo b'ababazungu buri umwe yambaye agapira k'umutuku, umugore umupira w'umutuku yambaye hanyuzemo mu tundi tubura tw'umukara, mu ijosi afitemo urunigi umugabo nawe yambaye amarinete mu maso.

Umusaza abuzukuru be bari kumushyirira amazi mu mutwe, ni amazi arimo isabune ifite urufuro rwinshi, yivanze n'imvi zo mu mutwe ndetse iramanuka yifata no ku mvi zo ku bwananwa ahinduka umweru hose.

Umugabo n'umugore bafite udusahane turimo isukari, inyuma yabo hari umuzungu wambaye amataratara ufite umusatsi w'umukara ari kubabaza niba ntakindi kintu ushobora gufata inyuma yabo kumeza ahari hari abagabo babiri numugore umwe.

Umusaza wagiye kwivuza afite urupapuro muganga yamuhaye ari kumusobanuriraho uko akwiye kwitwara, uyu musaza afite imvi z'umweru mu mutwe ndetse no kukananwa, umuganga yambaye itaburiya y'umweru.

Umusaza ugendera mu igare yambaye amarinete, yambaye umupira w'amaboko maremare n'ipantaro ijya gusa n'umukara. Inyuma ye mu kagare arasunikwa n'umugore wambaye agapira k'amaboko magufi, ufite umusatsi uzinze inwere.

Umugabo ukuze imbaraga ni nkeya, akenyeye umukandara, yambaye umupira w'umweru, ipantaro ya kaki, inyuma ye hari umuganga uri kumufasha kugenda, akoresheje inkingi z'inzu bitewe nuko imbaraga zo kugenda ari nke.

Umugore wicaye hagati y'urubyaro rwe afite abana benshi ku buryo basaga icumi, gusa urebye neza ubona ko abo bana nta kibazo cy'imibereho bafite, ikigaragara ni uko uru rugo rurimo amafaranga.

Abagore babiri, umwe ugaragara nk'ukuze undi agaragara nk'ukiri muto, iruhande rwabo hari umwana, ku buryo ushobora gutekereza ko uwo mugore ukuze yabyaye ukiri muto, hanyuma uwo ukiri muto akabyara uwo mwana, uwo mwana akaba ari umwuzukuru we.

Umugabo ufite ikote ry'umutuku, wambaye isaha ku kaboko k'iburyo, ukuboko kw'ibumoso kwa muganga bashyizeho icyuma gipima umuvuduko w'amaraso, na we ari kukireba, ashaka nk'ushaka kugihagarika.

Umusaza ufite isahani n'ikiyiko, hariho ibiryo bitukura, hariho n'ibisa n'icyatsi, ibitukura biragaragara ko hari ibirayi byatekeshijwe amavuta menshi, mu gihe imboga rwatsi ari zo zifite iryo bara, yambaye ishati y'umutuku ndetse afite n'imvi, amenyo ye agaragara nk'ayozwa buri gihe.

Umugore ugaragara nk'ukuze ahagaze inyuma y'abantu babiri, iruhande rw'iburyo hari umugabo, iruhande rw'bumoso hari umugore, yambaye agasengeri k'umweru kagaragaza mu gituza ariko amabere ntaboneka, umusatsi ni muke, utitegereje neza wakeka ko ari umugabo.

Abagore bateraniye hamwe abenshi muri bo bambaye imipira y'umweru, iriho ikirango cya kuruwaruje, bari mu mahugurwa yuko bashobora kwita ku buzima ndetse bakanabufasha abafite ibibazo by'ubuzima ariko b'intege nke.

Umugabo ukuze cyane uri mu kigero k'imyaka mirongo inani ni'itanu, afite imvi mu mutwe gusa ziri uruhande rumwe, kuko ahandi uruhara rwazimamaze, ari kumwe n'umugore ufasha abantu mu bijyanye n'imitekerereze, amuganiriza ngo yongere kugarura ikizere cyo kubaho.

Umugabo n'umugore bahagaze imbere y'abana babo, umukuru muri bo arasumba se, yambaye agapira k'ubururu, mushiki we umukurikira yambaye ikanzu iri mu mabara y'umweru, umwana wa bucura ahagaze imbere yabo yambaye ishati irimo amabara y'umutuku.

Umugabo yagiye kwa muganga ari mu isuzumiro, muganga ari kumushyira igipimo ku kizigira cy'akaboko, ukuboko yakurambuye cyane kugira ngo kibone aho gifata. Umuganga uri kubimukorera yambaye ikanzu y'ubururu naho umugabo we uretse kuba yambaye imyenda y'umweru dede, yambaye n'amarinete.

Umugabo ufite imvi, yambaye amarinete, afite ishati y'umweru, afite akantu mu ntoki ari kugenda ateruzwa n'umuganga, umuganga uri kukamuteruza yambaye ikanzu y'umutuku, afite n'ikarita y'akazi yambaye mu ijosi.

Umusaza ufite imvi nyinshi, zamanutse zigafata no mu bwanwa, zidasize no ku misaya, ari kumwe n'umugore w'umuzungu. Uyu mugore afite umusatsi w'umukara, iruhande rwe hari umugabo w'umwirabura, n'abana batatu bari guseka.

Umugabo ufite iherena rimwe ku gutwi, ahagaze mu cyumba kirimo robine, afite ibinini mu ntoki n'igikombe cy'amazi, icyo gikombe gikoze mu cyuma, ibyo binini afite ni ibinini by'umutwe, agiye kunywa kubera ko nta gihe gishize avuye kwivuza.

Umusaza ugeze mu zabukuru, yambaye umupira w'umweru uboshye mu budodo. Afite impeta ku rutoki, afite ubwanwa bw'imvi. Iruhande rwe hari umugore w'umusatsi w'umukara. Yambaye itaburiya, ari kwa muganga, aramubaza ikimugenza.

Umusaza w'imvi nyinshi mu mutwe no ku bwanwa ari muri siporo, yambaye umupira w'ubururu arambuye akaboko, hirya ye hari umuganga ufite umusatsi muremure kandi ujya kumera nk nk'uw'abazungu.

Umugore yagiye kwa muganga yambaye agapfukamunwa, agezeyo asanga muganga na we yambaye agapfukamunwa, akimwakira mu cyumba yahise ageramo afite ubwoba, muganga yamuhumurije afata urushinge, amutera ku rutugu amukingira.

Tariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa cyenda, mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane hizihijwe umunsi mpuzamahanga wo kubungabunga ibidukikije, uyu ni umunsi uba ugamije kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, haba ku isi...

Nyakubahwa madamu wa repubulika y'u Rwanda Jeannette Kagame, ari mu kiganiro n'itangazamakuru, ikinyamakuru Ishusho cyagarukaga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, yavuzeho mu makuru yabo.

Abaganga bakora mu buruhukiro bw'ibitaro bari mu cyumba kimwe, buri umwe yambaye agapfukamunwa ndetse n'ingofero, asigaza amaso yonyine. Kuri ayo mataburiya bambaye harimo umukandara w'umukara kuri buri umwe.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya diyabete, aha bakoresheje inzu inini cyane i Kigali, izwi nka convention centre kwerekana aho uzabera. Kwitabira iki gikorwa bisaba kuba ubizi neza, uzi n'icyo bishobora gufasha.

Abagabo bane, iruhande rwabo hari tereviziyo ebyiri. Imwe irimo igihu cyumweru, indi irimo igihu cy'ubururu. Bombi bambaye udupfukamunwa dufite imigozi yambukiranya amatwi.

Ibirango bigaragaza uko kwirinda korona virusi mu gihe cyayo kuva umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kugeza irangiye byari bigoye harimo gukaraba intoki, kwambara agapfukamunwa, gusiga metero, kwirinda kwegerana ndetse no gusomana.

Icyumweru cyahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe kirimo kirategurwa neza bifashishije ibyapa gisa n'ubururu bakoresheje amagambo y'umweru ibi byose bigakorwa kugira ngo habungabungwe ubuzima bw'abatuye igihugu.

Mu Rwanda buri gice cyose kigira Minisiteri igishinzwe, ubuzima bubarizwa muri Minisiteri ishinzwe ubuzima, ku kirango cyabo akenshi bakunda gukoresha ibara ry'ubururu n'ikirangantego cy'igihugu, munsi bakandikaho amagambo agaragaza Repubulika y'u Rwanda.

Imbaga y'abantu yahurije hamwe ab'imihanda yose barizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubuyobozi bw'umugore n'ubwo bimeze bityo wanitabiriwe n'abagabo, umugabo umwe yambaye ishati y'umweru ari kwifotoza akoresheje telefone anafotora bagenzi be.

Umuganga ari gukingira umurwayi urukingo rwa korona vayirasi. Icyerekana ko ari korona virusi bari kumukingira, ni uko yaba umurwayi, yaba umuganga, bose bipfutse mu maso ndetse bagapfuka n'amazuru. Umuganga imyambaro yambaye, inapfutse ibindi bice by'umubiri.

Inyubako itageretse ariko ngari iruhande rwayo hariho agatara, inyuma gato hariho akazu kameze nkak'abacunga umutekano. Yubakishije amabati atukura akoze mu buryo tegura, inubakishije kandi amatafari ahiye.

Inzu nini itageretse, yubatse ahantu heza, ifite umuhanda wa kaburimbo uyerekezaho, ifite inkingi ebyiri z'umweru ku ruhande rw'iburyo n'indi nkingi imwe iruhande rw'ibumoso, yanditseho ko ari ikigo gishinzwe ubushakashatsi bw'imiti.

Inzu yubatse yitaruye izindi, ni kwa muganga, isakaje amabati y'ubururu, ifite inkingi enye, imbere yaho hari igisa n'umunzani. Hejuru handitseho ko ari inzu y'ababyeyi, aho babyarira.

Inyubako ziri mu cyanya kigali, hagati yazo harimo jaride, inyuma y'inyubako imwe y'ibumoso, hari igiti kigandaye, gishobora kuba cyayigwira, gusa iruhande nanone hari abandi bagabo babiri basa n'abari kwinjira mu biro byabo.

Kwa muganga haba inyubako zitandukanye, aho abagore babyarira, aho abagore bategerereza, ahajya indembe n'ahandi, aha harimo inyubako ibikwamo imiti izwi nka farumasi.

Inkingi ebyiri zubakishije amatafari ahiye, hagati harimo icyapa cyanditseho ibitaro bya Ruhengeri, kikuyobora ko ari ibitaro by'akarere ka Musanze, iyo ukihagera ubona urujya n'uruza rw'abari kujya mu mujyi ndetse n'abajya kwivuza.

Abagore babiri basa nk'impanga umwe yambaye marinete, undi afite umwana mu ntoki w'uruhinja, bombi icyo bahurijeho ni uko bambaye udupira, ariko ufite uruhinja yambaye agapira k'umweru.

Icyumba giteguye neza nk'ikigiye kuberamo inama, hariho intebe zitandukanye, harimo ibyicaro binyuranye, intebe imwe iragaragaza ko iza kwicaraho umuyobozi mu gihe abandi baza kwicara mu myanya isigaye, hariho ameza abiri imwe nayo ikaba iye.

Umukobwa ufite ubumuga bw'ingingo ntashobora kugenda, niyo mpamvu yaguriwe igare ry'amapine abiri, rifite intebe yo kwicaramo, ndetse n'icyo kwegamiraho gisa n'umukara, arimo aragenda muri kaburimbo yitegeye ubusitani buri hafi y'inyubako n'ikigega.

Inyubako yo kwa muganga hariho indorerwamo, hino yayo gato hari agatebe gato gafite amapine kicarwaho n'abarwayi by'umwihariko abana, hirya yaho harimo akabati gashyirwamo impapuro ziba zarakoreshejwe mu myaka yashize.

Mu nzu nini ivurirwamo abarwayi, harimo intebe, ameza n'ibindi. Hejuru yaho, harimo akuma kazana ubukonje mu gihe ubushyuhe bubaye bwinshi kugira ngo abarwayi n'abarwaza bakomeze guhumeka neza.

Inyubako ndende igeretse gatatu munsi hari imodoka ebyiri na parikingi, iyi nzu ifite ibirahuri bikoze uruhande rwose, hejuru y'iyi nzu hari akameze nk'umunara kazana rezo z'amaterefone.

Inyubako ndende iruhande rwayo hari parikingi yimodoka. Umuhanda iyo modoka yaparitse iturutsemo ni umuhanda w'igitaka ariko gisa n'umukara. Iruhande rw'iyo nzu hari icyapa kinini cyane kiyobora abashaka serivisi.

Imashini yo kwa muganga yongerera umwuka abarwayi mu gihe bawukeneye iruhande rwayo gato hariho amabuto y'umutuku, umuhondo, umukara n'umweru hejuru hariho isaha y'inshinge.

Umuhanda mugari cyane urahabona umuryango munini, hejuru y'umuryango hari amagambo yanditseho agaragaza ibitaro bya Kabgayi, ukihagera uhita ubona ko wageze mu karere ka Muhanga karimo n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye.

Icyumba kitari kigali ariko kitari na gito, hejuru harimo ifoto iriho umwana n'umubyeyi. Hasi yayo hari intebe, hino gato hari ameza, hirya yaho hari ubukarabiro hari n'ahateretse imiti ku kabati.

Inyubako ifite parikingi irimo imodoka imwe, iruhande rwayo hariho abantu benshi binjira muri iyo nyubako, utarayigiramo kandi ku gisenge hariho amabati tegura, iruhande rwayo hari umugabo wambaye umupira w'umutuku afite ikayi ari kwandikamo.

Abagabo babiri umwe aricaye undi arahagaze, uwicaye yambaye ipantaro ya kaki, inkweto z'umukara mu umupira w'ubururu afite terefone mu ntoki anambaye ingofero, uhagaze yambaye agapira k'icyatsi, ipantaro y'umukara, inkweto z'umweru zirimo uturongo tw'umukara.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebeenye ziteye mu buryo butandukanye, uruhande rumwe rurimo intebe ebyiri z'ubururu, urundi ruriho intebe ebyiri zifite imifariso isa n'aho ari kake, zo ziteye ziteganye ariko indi y'umukara iri hirya yegetse ku nguni y'inkingi.

Mu bitaro hari intebe, ameza ndetse n'umunzani upibama abarwayi. Intebe imwe irasa n'ubururu indi irasa n'umukara, akamezaza karasa n'umweruru mu gihe umunzani wererutse.

Kaburimbo ica hagati mu busitani, harimo ibara ry'icyatsi ryinshi rikubitana n'izuba rika ibara ry'icyatsi ryerurutse, hirya yaho gato hari icyapa cy'ubururu kuri senyenge z'icyatsi.

Inyubako zirenze imwe hino yayo hari urukuta rukwereka ko ugiye kwinjira muri iyo nyubako, hejuru y'iyo nyubako handitseho ijambo ry'icyongereza, ariko ngenekereje mu kinyarwanda riravuga ngo ibitaro bya kabgayi.

Icyumba kirimo intebe, kirimo umunzani, kirimo mudasobwa, ndetse n'aho gucomeka. Aho gucomeka hari utubara tw'umutuku ku masharijeri ahari. Izo ntebe zifite amapine y'umukara.

Ku bitaro bya Kabutare, hari abagabo batandatu bahagaze, buri umwe yambaye agapfukamunwa, inyuma yabo hari abagore babiri, bose baje mu nama yo gusobanurira aba baturage uko iyi gahunda ikora.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye atwitswe mu ibumba, hirya yaho hari ibiti ndetse hari n'amakona ashyirwa mu muhanda, kugira ngo abapolisi bayifashishe batangirira abatwaye ibiyobyabwenge. Iyi nyubako iragaragaza ko ari aho abafatishwe banywa ibiyobyabwenge, bajyanwa kugira ngo bagaruke mu buzima busanzwe.

Umugore ufite umwana, imbere ye hari undi mwana ariko usa n'ukuze yambaye inkweto z'icyatsi, ipantaro n'ishati by'icyatsi, afite isafuriya mu ntoki, aragenda imbere yabo muri metero nka mirongo itatu n'eshanu.

Abagabo babiri, umwe yaturutse mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, yambaye ijire byanditseho, undi ni uwo yaje asanga ku irembo, iruhande rwabo hari kizimyamoto ebyiri, ku buryo inzu barimo ifashwe n'inkongi y'umuriro zakwitabazwa.

Ibitaro binini cyane byubatse ahantu hirengeye, bifite inyubako aho buri imwe igeretse ku yindi, hino hari ubusitani bwiza cyane, harimo agati gashobora gutanga umwuka mwiza.

Icyumba kinini cyane, kirimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga ariko harimo na jenereta ishobora kuzana umuriro mu gihe usanzwe w'amashanyarazi ugiye.

Icyumba kirimo intebe, mudasobwa, kikabamo firigo byose birasa n'umweru, intebe ifite amaguru y'umukara ikaba igendera ku mapine, uyicayeho ashobora kwikaraga ikamucunga.

Inyubako ndende igeretse kenshi, yanditseho amagambo y'icyongereza uyagenekereje mu kinyarwanda ashatse kuvuga ngo ibitaro byitiriwe umwami Faisal, ukihagera ubonaho ibyapa bitandukanye byerekana ko hatemerewe kunywererwa itabi ndetse hakaba n'icyapa kikubwira ko iki cyumba ariy'ik'idembe.

Abagore babiri n'umugabo umwe bicaye mu cyumba cyo kwa muganga, bambaye amataburiya agaragaza ko hari abavuzi b'ibi bitaro, imbere yabo hari imashini izwi nka mikrosikopi ifata ibimenyetso ikagaragaza indwara umurwayi arwaye.

Inyubako yo kwa muganga isakaje amabati y'umweru ifite igisenge cy'umweru. Harimo ibipurizo by'ubururu n'umweru. Munsi hari intebe zo kwicaramo ziteretse ku makaro. Urebye ku kibambasi gihari, hari igishushanyo cy'ijisho rinini cyane rigaragaza ubuzima bw'ijisho.

Kwa muganga hari igitanda cy'abarwayi, ni igitanda kigezweho, igitanda gifite amapine gishobora gukura umurwayi hamwe kikamujyana ahandi, hariho ishuka, umusego, ashobora gukoresha aryamye, kugira ngo yirinde kugira ikibazo cyo kuba hari ibyamuca mu mazuru.

Kwa muganga mu buruhukiro hinjiyemo umugabo uri gukora isuku, afite indobo y'icyatsi n'umukoropesho, ibi byose ari kubikora yipfutse wese kuko yambaye bote z'umukara, ibishashi by'umweru, asigaza amaso yonyine.

Umugore uryamye kwa muganga arasa n'uwanegekaye cyane, akaboko ke karimo serume yiyoroshe ishuka y'umweru, umuganga uri kumwitaho yambaye amarinete afite umusatsi kandi yambaye itaburiya y'umweru.

Umukinnyi yakoze cyane arananirwa yambaye isengeri y'icyatsi ku kaboko hariho akantu k'iroza afite icupa ry'amazi ari kwisuka mu maso no mu mutwe kubera ibyuya yabize ngo arebe ko ubushyuhe bwagabanuka.

Umuneke, kokombure, icunga, indimu ,marakuca, ibi byose ni imbuto zishobora kwifashishwa mu gihe umaze gukora siporo, watakaje imbaraga nyinshi cyane ushaka kugira ngo umubiri wongere ugaruke uko wari umeze.

Umugabo yaravunitse kuburyo adashobora kwambara inkweto zifunze, inkweto yambaye ni bodaboda, z'umukara zifite akantu k'agapisu, ushobora gufunga ukanafungura kugirango ubone uko winjizamo ikirenge akabikora mu buryo bumworoheye ugereranije n'uko yakwambara ikweto zifunze afite imvune.

Ibiganza bibiri byose byambitswe ga. Icyo bihuriyeho ni uko izo ga, uretse igikumwe, izindi ntoki zose ziciriyemo hagati. Ikindi ni uko ga imwe iracurukuye, indi iracuritse.

Umwana ari kunkwesha icupa mazi rifite umufuniko w'ubururu, hino harimo akantu k'agaheha, uyu mwana yiteze igitambaro yambaye agapira k'ubururu gafite amaboko magufi.

Siporo nk'uko ishobora kuba umuti, uyu mupira wifashishwa ukinwa izi n'inkweto zikoreshwa hakorwa siporo yo gukina umupira wamaguru, uyu ufite amabara y'umweru n'amabara y'umukara, iruhande rw'iyo nkweto hari akantu k'umweru gasa nk'akagaragaza ko ari ikinini, siporo ishobora kuba umuti.

Umugabo uri muri siporo, yambaye umupira w'amaboko magufi, afite icupa ry'amazi ku mufuniko harasa n'ubururu, aho afashe harasa n'umweru, indiba yaryo iririmo akameze nk'ikiromba.

Ameza minini cyane y'umweru ariho umukasi w'umukara, ariho impapuro z'isuku zizwi nka popiye jenike ebyiri ndetse hariho n'inoti ya bitanu, kuri ayo meza hariho ikarito itwarwamo inshinge zo kwa muganga ziterwa abarwayi.

umugabo w'umuzungu afite akana ari kwitaho, iruhande rwe hari umubikira witandiye ku buryo umusatsi udashobora kuwubona, uwo mwana bitewe n'uburyo ari kwitabwaho; arimo araseka areba uwo muzungu mu maso.

Ishyirahamwe ry'umukino wa karate mu Rwanda, ryashyizeho amategoko n'amabwiriza agenga amarushanwa, banasobanurira abantu ko abakatika atarabarwanya nk'uko byaba bimeze mu minsi yashize, uhoo wasangaga uwinjiye muri iyi mikino afatwa nk'ikirara.

Inkoni y'imbogo ifite akuma k'umweruru kazamuye aho ikiganza kijya harasa n'umukara, aho uyitwaye ashinga hasi na ho hasa n'umukara, aho ashyira ikizigira hasa umweru, iyi ni inkoni ifasha abarwayi kugenda by'umwihariko bafite ibibazo by'imvune.

Umugabo wambaye inkweto ya sipuresi, yambaye itiriningi y'umukara irimo akarongo k'umweru, agapira k'umukara karimo umurongo w'umweru mu gatuza, wanditseho amagambo y'Icyongereza, ari guterura icyuma kugira ngo akore umubiri we ugerageze kugaragara neza.

Umugabo w'ubwanwa bwinshi cyane, butwikiriye amazuru n'akananwa, ari kunywa icupa ry'amazi, rifite agafuniko k'umukara, urebye neza ubona risa n'kinzoga z'amarikeri, zimwe biti ibyuma.

Umugabo wambaye isengeri y'umukara, arambuye amaboko ashinga amavi ku mukeka, agasatsi gafungiye inyuma na ko gasa n'akari mu kirere bari gukora siporo ngororamubiri. Ibi ari kubikora yirinda ko kwa muganga bazabimwandikira nk'umuti.

CROIX ROUGE ni umuryango utabara imbabare, mu birango byayo haba harimo ibara ry'umukara, umweru n'umutuku. Ibara ry'umutuku riba ririmo agasaraba mu gihe ibara ry'umweru ari ryo riba rishushanyijemo ayo magambo...

Abakorerabushake b'umuryango wa kuruwaruje buri umwe yambaye ijiri igaragaza icya akora, hariho agasaraba k'umutuku, mu ibara ry'umweru rinini cyane, inyuma yaho kandi hari icyapa kigari imbere yabo hakaba hari umurwayi bari kwitaho.

Umugore n'umugabo bari muri siporo, buri umwe yambaye agakabutura kagufi kandi kamufashe, umugore yambaye agabutura k'umukara, mu gihe umugabo nawe ari umukara ariko hakaba harimo akabara k'icyatsi, buri wese afite icupa ry'amazi mu ntoki.

Umugabo yambaye ipantaro'ikoboyi, akaguru kamwe karambirije, akandi karashinze. Akaguru gashinze ipantaro yayizamuye, arangije azana agatambaro gatose ashyira ku kagombambari, ikirenge cyo kirasa nk'icyabyimbye.

Umugabo uzinze nyweri aryamye ku ntebe, iruhande rwe hari undi mugabo ushinze ikiganza ku ntebe, akaguru gasa n'akarambitse cyane asa n'uri gutaka umutwe, yambaye ingofero y'umukara ni umuzungu, mu gihe uwo yegeranye wundi afiteta tatuwaje ku maboko.

Umukinnyi yavunitse, avunika mu kagombambari, yavunitse yambaye urukweto gusa barumukuramo. Akandi kaguru atavunitse karacyambaye urukweto n'isogisi ry'umukara, kuri urwo rukweto mu ibara ry'umukara, harimo akandi kabara k'ubururu.

Icunga, indimu na mu cyayi cyayi byegeranyijwe, iruhande rwabyo hari metero y'umugozi ikoreshwa n'abadozi bapima imyenda cyangwa bapima abana. Ibi byose ubirebye biragaragaza ko ari igipimo gitangwa kugira ngo harebwe ibishobora kugenderwaho, hakorwa umutobe ugezweho.

Umugabo munini wakoze ibyitwa kubaka umubiri, afite icupa ry'amazi ari muri siporo, yambaye isenge ry'ubururu arimo arirukanka cyane, ageze aho ananirwa afata icupa ry'amazi afite, arangije arararama asuka mu kanwa.

Umugabo n'umugore bajyanye umwana wabo kwa muganga, umugabo, umugore n'umuganga bose bambaye agapfukamunwa. Umwana yicajwe ku ntebe barangije baramubwira bati ''asama'' umuganga azana icyuma cyabugenewe atangira gufotora mu kanwa.

Umugabo ari muri siporo ananura imitsi, ashinze ivi hasi ndetse n'ikirenge bikoze inyuguti ya z, akandi kaguru karahagaze ku buryo karambuye neza, amaboko ye afashe ku mubiri ahegereye ku kibero.

Umugabo arambuye akaboko afite agatambaro k'ubururu kariho amazi ari gushyira ku kaboko mu nkokora, aragaragara nk'uwavunitse, intoki eshatu nizo ziri kuhatsindagira izindi zishishira.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana we ku gitanda, umwana afite igisima ku kaguru, umugore arapfukamye asa n'ubabaye cyane, aribaza niba umwana we ashobora kuzakira, aho umwana yicaye hari igitambaro kirimo amabara y'umutuku n'icyatsi.

Umukobwa uri muri siporo ari gukora ibidakunda gukorwa n'abandi, ikiganza ke ari kugikoza mu mugongo akinyujije mu mutwe kikagera ku musatsi, afashe inkokora agahina urabonako ingingo ze zirambuye.

Umukobwa uri muri siporo yambaye ipantaro imwegereye cyane, yambaye isengeri igarukira hejuru y'umukondo ndetse igaragaza ibitugu byombi, amaboko ye yayazamuye aringanije n'amatwi ndetse imisaya yombi irarebana.

Imboga n'imbuto zahurijwe hamwe, harimo avoka, inyanya, epinari, karoti, urusenda, amacunga ndetse na seleri, iruhande rw'aho gato hari akuma gakoreshwa bakora siporo.

Ameza arambitseho siparadara zikoreshwa kwa muganga. Iya mbere irasa n'ikigina, iya kabiri irasa n'umukara. Iya gatatu irasa n'ubururu bwijimye. Hejuru yabo hariho akaboko kariho iyo suparadara, bigaragara ko hapfutswe ahakomeretse.

Umugabo udafite umusatsi yambaye ishati yumutuku imbere ye hari mudasobwa iteretse ku kabati gafite imiryango ine, iyi mudasobwa si ngendanwa kuko utayikoresha udacometse.

Icupa rya nire nta muntu urifite, ariko riragaragara ko riri kwisuka amazi mu kirahuri, nikirarahuri cy'umweru dede mu gihe icupa rifite umunwa w'ubururu, kuri uwo munwa waryo hakaba hariho akanatu k'umutuku.

Mu cyumba cyo kwa muganga basuzumiramo ibizami, harimo icyuma gifite amaburu y'ubururu, ndetse n'ay'umukara, uruhande rumwe ruriho amaburo abiri manini, ari yo asa n'ubururu, mu gihe ahandi amaburo y'umukara ahari arasa n'umutuku, ateye ku gihagaze gisa n'umweru.

Umukobwa wambaye itiriningi y'ubururu, inkweto ya supuresi y'umweru, akaboko k'iburyo arakarambuye, ukundi kuboko gufashe inyuma ku rukweto. Arimo arinanura, hejuru yambaye agasengeri kagaragaza ibitugu byombi.

Umugabo arambuye akaboko gasa n'akavunitse, ikiganza cye gifashe ku kizigira hafi n'inkokora, hariho agatambaro k'ubururu karimo amazi akonje amufasha kugabanya uburibwe, ibi byose bikorwa kugira ngo adakomeza kubyimbirwa.

Umugabo, umugore b'abazungu bateganye imigongo, umwe afite icupa ry'amazi, ari gusoma areba mu kirere, umugabo nubwo ari kureba mu kirere, umugore ni we wagerageje kurarama cyane.

Umugabo usanzwe akora amarushanwa yo kwiruka, kuri iyi nshuro yari yagiye afite nimero ibihumbi bitanu, magana atatu n'ebyiri, yambaye isengeri y'umutuku n'ikabutura y'umukara n'inkweto z'umweru. Gusa yaje kwitura hasi isiganwa ritarangiye.

Umugabo wambaye isengeri y'umukara, ikoboyi y'umukara, inkweto z'umutuku, zifite taro ishanyaguye munsi, iruhande rwe hari icupa ry'amazi, yambaye ekuteri mu matwi, arakora siporo yumva umuziki.

Umugabo muremure kandi munini ufite agatuza n'amaboko manini yambaye agapira k'umukara, ipantaro y'ikoboyi isa n'icyuma ari guterura, ahaterurirwa ibingibi kugirango umubiri ukomeze kugaragara neza, akundwe n'abagore.

Gukora siporo si ibintu bikorwa mu kavuyo, kubera ko hari izishobora gukorwa nabi, zikagira ingaruka ku mubiri aho kuwugirira akamaro, aha barakwereka ibigenderwaho kugira ngo umenye siporo ushobora gukora, igendanye n'imbaraga zawe.

Umukobwa uri muri siporo ari mu kibuga cy'ubwatsi bubisi, yambaye ipantaro y'ubururu irimo uturongo tumanuka, kuri iyo pantaro hari ikirango cya adidasi, inkweto yambaye ni sipuresi y'umweru, ifite taro ndende, arasa naho arimo arakora siporo y'umugongo.

Umuti gakondo watunganyijwe ushyirwa mu icupa ry'umweru barangije bandikaho amagambo menshi ay'ururimi rw'icyongereza agaragaza ko umuti ushobora kuvura kandi ugakiza indwara nk'iz'imiti ya kizungu yavura.

Igikakarubamba, umuravumba, sereri, byahurijwe hamwe kugira ngo herekwe abantu uko ushobora gutegura umuti gakondo, ugakoreshwa, ukavura indwara zitandukanye kandi nta kibazo na kimwe uteje, bitewe n'uko haba hakurikijwe ibipimo byo kuwunywa.

Ururabo rutohagiye rufite uruyange. Uruyange rwayanze imbere rwatangiye guturika imbuto. Urutaraturika imbuto biragaragara ko na rwo ari iminsi mike. Ibi bikaba bishobora gukurura inzuki zihova zikajya gukora ubuki, na bwo butanga umuti.

Ibimera bitandukanye birayanga. Imbuto zabyo hari ubwo usanga ari umuti cyangwa se zikaba zishobora kuvamo ibiyobyabwenge. Aha baratwereka ubwoko bwabyo n'uko bishobora kuyanga n'amabara biba bifite igihe...

Amapapayi abiri abiri arateganye hari irisatuye rigaragaza imbuto z'umukara n'uko umukike waryo uba umeze, irindi rirasa n'icyatsi kibisi nk'aho riteze gusa, ryifashishijwe mu kwerekana ko yavamo imiti.

Amacupa menshi cyane, arimo imiti bitandukanye, hariho umurongo wo hejuru, umurongo wo hasi n'undi murongo wo hasi cyane, umurongo wo hejuru uriho amacupa y'umukara ariho ibyapa by'ubururu, mu gihe umurongo wo hagati uriho amacupa maremare ariko afite ibyapa bitandukanye.

Mucyayicyayi, amacunga, indimu, imbogeri, byose biri hamwe kugira ngo higishwe abantu uko bashobora kubitunganya bikaba byabyara umusaruro bidakoreshejwe nabi ngo ubinyoye arenze igipimo, bibe byanamugirira ingaruka ntibikize n'indwara yashakaga kwivura.

Icupa ry'umuhondo ririmo umuti gakondo ukozwe mu bimera, ryanditseho amagambo ugenekereje mu rurimi rw'ikinyarwanda, iteka ryose aruvera, uyu ni umuti witwa ko bitewe n'ibimera wakozwemo.

Umuravumba uzwiho kuvura indwara zirimo inkorora ndetse n'ibicurane, ikibabi cyawo bagishyizeho ibinini byo kwa muganga, bizwi nka deburukara, kwerekana ko uyu na wo ushobora kuba wavura mu gihe utunganyijwe neza.

Igikakarubamba, umubirizi, umwishywa, byose byegeranyijwe kugira ngo herekwa abantu uko bishobora gutunganywa mu buryo bugezweho, bikavamo imiti idashobora kwangiza umuntu bitewe no kunywa irengeje igipimo.

Umuti gakondo ukozwe mu bimera, birimo imiravumba, umubirizi n'igikakarubamba, waratunganyijwe ushyirwa mu icupa ry'umweru, rifite icyapa kivuga ngo iteka ryose, hino y'iryo cupa hari amaronji asa n'umuhondo.

Amacupa ane ateganye buri cupa riri mu ibara ryaryo, icupa rya mbere rima ibara ry'umuhondo wererutse, icupa rya kabiri mu ibara ry'umuhondo wererutse gake, icupa rya gatatu rikaba mu ibara ry'umuhondo cyane, icupa rya kane riri mu ibara ry'umutuku w'amaraso.

Amavuta gakondo agaragara mu bicupa by'umweru, ashobora gukorwa mu mata, ari byo bita amavuta y'inka, aya ashobora kwisigwa, kuribwa atetswe.

Uburoso bubiri buri mu gatasi buri hagati y'ibikakarubamba, igikakakarumba kimwe kirasa n'ibara ry'icyatsi mu gihe ikindi gisa n'ibara ry'icyatsi cyerurutse, ubu buroso burerekana ko igikaromba gishobora kuvamo umuti w'amenyo mwiza.

Umuti gakondo uri mu ducupa, iruhande rwawo hari ibimera bigaragaza aho uba waturutse, ayo macupa areruruka, harimo umuti usa n'umukara wapfundikijwe imifuniko y'umweru, hino gato hari utuntu tumeze nk'imyuko turiho impeke.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe kwita ku miti n'ubuziranenge bwayo, giherutse gutangaza ko uzongera gufatwa acuruza imiti itemewe, azajya abihanirwa n'amategeko, uretse guhanwa acibwa amande, hazajya hajyaho n'igifungo.

Akajerekani gapfundikije umufuniko w'umuhondo, ko kakaba gasa n'ibara ry'ivu, karimo umuti gakondo ukozwe mu miravumba, igikakarubamba, umubirizi, byatunganyijwe neza ndetse banashyiraho igipimo cy'umuti umuntu agomba kunywa bitewe n'indwara arwaye.

Agapaki karimo umuti ungana na garama ijana ukozwe mu bimera. Ibigaragara kuri ko hariho inyanya, indimu, igikakarubamba n'ibindi. Ibi byose bikaba bikoze mu mushongi.

Amacupa atandatu y'umweru ariho umuti gakondo ukozwe mu bimera, buri cupa hasi rifite igice cy'umweru wakwita intango, hejuru yaryo gato hari akantu k'umutuku gasa n'icyapa kigaragaza ubwoko bwibimera umuti wakozwemo.

Umugore wambaye umupira w'umukara arirabura cyane afite umusatsi mugufi ariko ushobora kuzingwa kuko inyuma uzinze akitwa shinya iruhande rwe hariho ikarito n'umuti bagaragaza ko ari uturuka ku bimera uzw' ibikakarubamba umuravumba umubirizi n'ibindi byinshi.

Umuravumba ni icyatsi kimenyerewe cyane n'abanyarwanda. Gusa urubyiruko by'umwihariko abavutse nyuma y'umwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu, bitewe nuko iki giti kigenda gicika, ntabwo bazi ko aho kiri gishobora no kuyanga kigatanga imbuto.

Igikakarubamba mu ibara ry'icyatsi kibisi cyane, kigira amacumu, kiratunganywa kigashirwa mu icupa, uyu ni umuti gakondo uvura indwara zitandukanye: ibisebe, inkorora, n'izindi.

Imboga rwatsi zirimo ibisusa na dodo, ziri kumwe n'igitoki, iruhande hari ibijumba by'amabara atandukanye, hari: imituku, umweru ndetse n'umuhondo; byose bikaba ari ibyerekana uburyo wategura indyo yuzuye.

Umuti ukuze mu bimera birimo igikakarubamba, umuravumba, igicuncu, bipfundikiriye mu icupa ry'umweru hasi hariho ibirango bigaragaza uko uwo muti wakozwe, ushaka kuwunywa n'ibipimo agomba kugenderaho.

Urugemwe rw'ikawa, rusasiye, rutoshye, rukiri ruto, ruratanga icyizere, isaso y'arwo iravanze, irimo ubwatsi butukura, ikabamo ubwatsi butoshye, ariko byose amaherezo bikazuma.

Umuti ukoze mu gikakarubamba, inyanya, amacunga, umuravumba n'umubirizi, upfundikiriye mu gacupa gafite umufuniko w'umutuku. Hepfo yaho gato hari ikirango kigaragaza izina ry'umuti n'aho wakorewe.

Mu byatsi byinshi harimo indabo, umuravumba niwo utoshye cyane muri byo uyu ukoreshwa mu kuvura inkorora mu buryo bwa gakondo aho usanga bawushyira ku muriro warangiza ukuwuhekenya ukamira amazi yawo.

Urumogi ni igihingwa gishobora kugira akamaro mu gihe gikoreshejwe neza. Mu Rwanda, ntikemerewe gukoreshwa kuko uwakinyoye ashobora gukora ibidakorwa. Gusa hari gahunda y'uko gishobora kuzakurwamo umuti mu gihe cyaba gihinzwe neza, kigahingwa n'abafite ibyangombwa.